Abantu bicaye ku ntebe bateraniye hamwe barimo abagabo bambaye amajire ya croix rouge begeranye n'undi wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'ubururu yegeranye n'undi mugenziwe wambaye ingoferobo wegeranye n'undi mugabo hirya yabo hakaba ku yindi ntebe hicayeho umugabo n'umugore n'undi muhungu ufite ikaramu n'ikayi yegeranye n'undi mugore ufite ikaramu n'ikaye.

Umuganga w'amatungo, uri mu cyumba kirimo ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gutunganya imiti ivura indwara zitandukanye. Afite agacupa mu ntoki bigaragara ko harimo imiti akaba ari kongeramo indi miti y'ubwoko butandukanye.

Laboratwari y'imiti irimo imiti irimo na etegiri zirimo imiti, harimo imiti iri mu makarito harimo ifunguye iri mu tubosi twayo, etajeri enye zirimo imiti itandukanye.

Umuganga uri gushyira imiti muri kabati ayikura mu kantu k'ubururu kandi muganga yambaye itaburiya nziza ari gufata imiti ayikura muri ako kantu k'ubururu ayishyira muri kakabati.